Abantu babiri bicaye umugore n'umugabo birabura, umugore yambaye amadajya, n'isaha ku kuboko yazamuye ikiganza, imbere yabo hari ameza y'ibara ry'ubururu n'umuhondo, ateretseho impapuro n'amakaramu n'amaterefone n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bicaye barimo bitegereza imbere yabo, hari abafite mudasobwa imbere yabo, amazi yo kunywa, amaterefone n'amakaye yo kwandikamo.

Umugore w'umwirabura, ufite imisatsi miremire, wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'amabara, ufite impapuro mu ntoki ze, uhagaze imbere y'abantu benshi bicaye, harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umweru bamwenyuye bari kumureba.

Abantu benshi batandukanye biganjemo abagore n'abagabo, bicaye imbere y'ameza ariho amazi n'ibitabo byo kwandikamo n'amaterefone, umugabo uhagaze imbere yabo, wamwenyuye, ufite mikoro mu ntoki ze n'icyapa kinini kirekire inyuma yabo.

Umugore uhagaze ufite imbwirwaruhame uri kuyivugiraho wirabura, uri kubwira abandi bantu benshi higanjemo abagore n'abagabo bicaye bamuteze amatwi, bicaye ku ntebe zitandukanye z'umweru n'izo ubururu.

Icyumba kirimo abantu benshi b'amoko yose abagabo, abagore, abazungu n'abirabura bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'umukara n'ameza y'ibiziga, ariho igitambaro cy'umukara na kamera y'umukara hagati yabo.

Umugore muremure w'inzobe uhagaze imbere y'abantu bicaye mu nama, uri kubasobanurira, harimo abagore n'abagabo bari kwandika, imbere yabo hari ameza ariho amazi, mudasobwa ndetse n'amagambo ari kwandikaho.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye harimo abagore n'abagabo ameza ari imbere yabo mu ibara ry'ubururu no mu muhondo hateretseho mudasobwa nyinshi, amazi yo kunywa, amakaramu n'amakayi.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo umugore uhagaze imbere yabo wambaye amadarubindi wirabura ufite ibisuko ufashe mikoro mu ntoki ze intebe ziriho ubusa z'umukara ameza ariho igitambaro cy'umweru hateretse amazi yo kunywa.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo abambaye amadarubindi n'abatayambaye ameza y'umweru arambitseho telefone eshatu, impapuro n'amazi yo kunywa intebe ziri m'ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi, higanjemo abagore n'abagabo, umugabo uhagaze ufite indangururamajwi n'umupira w'umutuku, televiziyo nini iri kwaka, icyapa kinini kirekire cy'uburu n'umweru.

Icyumba kirimo abantu benshi birabura higanjemo abagore n'abagabo, bicaye, bambaye amadarubindi n'abatayambaye bafite ibitaro imbere yabo, ameza atetseho ibirahure n'amazi n'ibyapa bimanitse muri icyo cyumba.

Umugore wirabura uhagaze wambaye imyenda y'umuhondo, isaha n'impeta, amadarubindi y'umukara, igitambaro cy'amabara menshi mu mutwe, ufite mudasobwa imbere ye, icyapa kinini gihagaze cy'ibara ry'umweru n'andi mabara menshi.

Umugore wirabura usutse, ufite indangururamajwi mu ntoki n'ikaramu n'itasi imbere ye na mudasobwa na terefone ameza y'umweru biteretseho.

Icyumba kirimo abantu benshi harimo abagore n'abagabo bicaye n'abahagaze, harimo: intebe z'ubururu, ameza y'ibitambaro bitukura, imbwirwaruhame, ibitabo ku meza, amazi n'icyapa imbere yabo gihagaze kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Umugore wasetse ufite ibiganza mu kirere, wambaye umupira w'umuhondo n'ipantalo y'ikoboyi, wari uhagaze imbere y'imodoka y'umweru, igitelefone kinini, ku cyapa cyo kwiyandikisha ku kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cy'isumbuye cyo gutwara.

Umugabo wirabura, wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kacyi, ufite ikote ku rutugu n'amarinete, ufite terefone mu ntoki, wamwenyuye yerekana serivise z'Irembo.

Inyubako iriho amabati y'umutuku n'irange ry'umuhondo n'igipangu cy'amatafari ahiye n'umuryango w'umukara, kiriho akapa kanditseho KG magana atandatu mirongo itanu na karindwi, ST kane.

Amazu menshi yubakishije amatafari ahiye, afite amabati y'umutuku, ubusitani burimo indabo n'ibiti n'uruzitiro rw'ibyuma ku ruhande.

Imodoka y'imbangukiragutabara bari gukuramo umurwayi, abantu bahagaze harimo abagore n'abagabo ndetse n'abicaye ku ntebe z'isa umweru.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye intebe z'ibyuma ziri imbere yayo, umugore wambaye agapfukamunwa wambaye n'ikanzu itukura intebe z'ibiti n'icyapa kigaragaza aho bakirira abantu.

Abantu benshi, abagore n’abagabo, abicaye, abahagaze, abaryamye, bajyiye batandu .Ibyapa by’umweru n’ubururu, amadirishya yo mu byuma asize amabara y’mweru.

Abantu bicaye barimo abagore n'abagabo, imbere yabo hari amakaramu n'ibitabo bari kwandikamo, bambaye ibitambaro biri mu idaraporo ry'u Rwanda riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo, icyatsi, umugore uhagaze imbere yabo uri kubasobanurira.

Abantu bane, abagabo babiri n'abagore babiri bicaye, bambaye ingofero zisa, amakanzu y'umutuku asa.

Umugabo wirabura, umwenyuye, wambaye ikanzu y'umutuku y'abacamanza, ishati na karavati y'ubururu n'akandi kantu k'umweru.

Abantu benshi, abahagaze n' abicaye biganjemo abagore n'abagabo, abambaye impuzankano z'abagororwa ndetse n'abahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye y'umuhondo, iy'ubururu, iy'umweru...

Abantu benshi b'abagabo umwe yambaye ikote n'amadarubindi, abandi bambaye impuzankano z'abafungwagereza n'abandi bambaye impuzankano z'abapolisi, imodoka y'abapolisi n'izindi modoka nyinshi ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo, ikinyabiziga cya moto kiriho umuntu, ibiti bihagaze by'icyatsi, inyubako ndende y'igorofa, abagabo babiri, umwe yambaye ishati, undi yambaye imyenda y'ababashinzwe umutekano wo mu muhanda y'umukara n'icyatsi.

Umupolisi wambaye imyenda irimo icyatsi, uzamuye akaboko akandi gatambitse, uri kuyobora imodoka y'umweruru n'umukara iri muri kaburimbo n'icyapa kigaragaza umuvuduko utarengwa wa mirongo itandatu.

Ikizingo cy'umutuku n'umupira ukoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro yometse ku rukuta y'umutuku n'umukara urukuta rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo igishushanyo hasi cy'umweru, ibinyabiziga bibiri, umugozi muremure w'umutuku, abagabo babiri umwe wicaye wambaye umupira w'umutuku, nundi uhagaze wambaye impuzankano z'umukara, ingofero y'umutuku.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara n'umweru yo mu bwoko bwa toyota ihagaze imbere y'inyubako nini n'ubusitani imbere yayo amapave ashashe hasi.

Umupolisi uri mu muhanda ushinzwe kwambutsa abantu wambaye agapfukamunwa, abantu bari kwambuka umuhanda, ibinyabiziga bitandukanye harimo moto n'amamodoka bifite amabara atandukanye.

Imodoka ya polisi y'umweru n'umutuku n'ubururu ihagaze iruhande rw'umuhanda munini wa kaburimbo, umuntu w'umugabo uri kugenda ufite utujerekani mu ntoki, umugore uri kugenda ku mapave iruhande rw'umuhanda.

Umugabo umugore ufite urubura uru umuntuini wambaye ingofero y'umukaraumupira wmaboko maremare y'umweru nipantaro y'umukara n'amadarubindi y'umukara inyuma hari abantu benshi bateye amaboko mu kirere.

Abantu benshi b'abirabura harimo abagore n'abagabo, abagore bambaye imikenyero n'abagabo bambaye ikositime bafashe ku madarapo bazamuye ibiganza barimo bararahira.

Abantu batandukanye birabura, abagabo n’abagore bambaye imipira y’umweru. Umugore wambaye amadarubindi babiri bafashe ibidobo birimo ubusa bacuritse ikirere.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku, ubururu n'umweru ryo kwamamaza umukuru w'igihugu, mu murenge wa Karambo, Akagari ka Karambo, umuturage ahora ari ku isonga.

Umugore wirabura wambaye amadarajya ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'umweru n'umukara ufite umukufe w'umweru mu ijosi wicaye.

Abantu batatu umugore wambaye ingofero wirabura, umugabo wambaye ingofero wirabura, bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru. Baricaye, bari gufata udupapuro turi hasi bakadusoma bakadushyira mu bisanduku bihari.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo amabara y'umuhondo nay'umweru, moto iriho umugabo wirabura wambaye kasike y'umutuku ibiti biri mumpande zimihanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'icyatsi, na moto iriho abantu babiri bambaye kasike zitukura, umwe w'umugore n'undi w'umugabo.

Imodoka ebyiri z'umweru zitwara abagenzi, zihagaze kuri kaburimbo imbere y'amaduka, ariho ibyapa byinshi byiganjem;, oranje, ubururu, n'umweru, n'icyatsi.

Moto zihagaze hakurya y'umuhanda ziriho abamotari bambaye amakasike ay'umuhondo ndetse n'ay'umutuku hariho n'abantu bahagaze bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane iri mu ibara ry'umutuku, igare ririho umugabo wambaye umupira w'umweru n'ingofero, moto nyinshi ziriho abantu babiri babiri bambaye kasike z'umutuku.

Amahuriro y'imihanda, umumotari wambaye kasike uri kuri moto, ufite kasike mu ntoki, umugabo uhagaze ku nzu iriho irangi ry'icyatsi, n'uwicaye imbere ye, ari kumwereka mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akanyayabiziga gatoya gatwara imizigo kari mu ibara ry'ubururu, umugore ufite indobo y'umweru irimo ibisheke arimo acuruza, hirya y'umuhanda abantu babiri bahagaze.

Ibyapa bibiri bishinze hagati y'umuhanda kimwe kigerekeranye n'ikindi biri mu mabara y'umuhondo n'umutuku birimo ibimenyetso by'umukara ndetse n'iby'icyatsi.

Icyapa gishinze ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo n'ibinyabiziga kikaba cyerekana aho abagenzi banyura kikaba kiri mu ibara ry'umweru umukara n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo n'ibyapa bibiri bishinze mu busitani, iruhande rw'umuhanda ruri m'ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda cyerekana aho abagenzi banyura kiri mu ibara ry'umutuku, n'umukara n'umweru, urukuta rw'amabuye uruzitiro rw'umweru n'inkingi z'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu benshi bamwe babagore abandi babagabo moto zicayeho abantu icyapa kinini cyane kiri m’ ibara ry'umweru kigaragaza sosiyete icuapa.

Imodoka ihagaze imbere y'inzu y'igorofa, icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru na oranje, umuhanda w'amapave, uruzitiro rw'umweru.

Imodoka nyinshi ziparitse imbere y'inyubako y'umweru n'umukara ziri mu ibara ry'umweru, zanditseho icyapa cya yego kabuzi ziparitse imbere mu muhanda.

Ibyatsi byameze ku rukuta rw'amabuye hasi, uruzitiro rw'ibyuma, urukuta rw'amatafari ahiye rurerure ruriho inkingi izamutseho.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibiti ku mpande, hari igare, hari na ruhurura inyuramo amazi, ukaba ufite umurongo hagati uri mu ibara ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka eshatu z'amabara y'umweru hirya yawo hariho sitasiyo ya esance iriho moto yicayeho abantu babiri n'imodoka ihagaze.

Abagabo babiri bari kwambuka umuhanda wa kaburimbo mu mabara y'umweru ashushanyije mu muhanda, umwe afite igare, undi afite isuka ku rutugu, bambaye utujire dusa, ubusitani n'ibiti biteye hirya y'umuhanda.

Amahuriro y'imihanda ya kaburimbo, harimo imodoka n'igare ririho umuntu uhetse umuzigo na moto iriho abantu babiri bambaye kasike z'umutuku n'abantu bari ku ruhande rw'umuhanda, barimo bagenda n'amaguru bambaye imipira y'umweru.

Umuhanda uri hejuru ya kaburimbo ufite uruzitiro rw'ibyuma bifite irangi ry'ibara ry'umweru n'umukara igare riri muri kaburimbo ririho umuntu wambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umweru ndetse n'ipantaro.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo, amagare ariho abantu batandukanye, abantu bari kugenda n'amaguru, imodoka, moto, ibiti biteye hirya y'umuhanda.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo itandukanye irimo amamoto menshi ariho abantu bambaye kasike z'umutuku, umugabo uri kugenda ku mpande z'umuhanda wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umweru.